Abantu bambaye impuzankano y'imipira y'icyatsi, barimo guhabwa ikiganiro kijyanye no kwita ku bihingwa no kuvura ibihingwa bifashishije imiti ibari imbere.

Umugabo afite ipombo arimo gutera umuti ku bihingwa, bivuze ko aba arimo gutuma ibihingwa bigira ubuzima bwiza, aho nk'ibibabi biba byagize ikibazo cyangwa ibindi bibazo bitandukanye ibihingwa bigira ,akagura umuti kugira ngo abitere, kugira ngo ibihingwa birusheho kumera neza.

Umuntu uri gushyira umuti ku gihingwa cy'ibigori ,aho arimo kubivura, akenshi ibigori bikunda kugira ibibazo by'indwara aho haza ibisimba birya ibibabi ,uyu muti rero ufasha ibihingwa by'ibigori kugira ngo ibyo bibabi bimere neza ,n'utwo dusimba turimo kurya ibibabi dupfe.

Umuntu ushinzwe kwita ku bihingwa, wamwita nk'umuganga w'ibihingwa cyangwa uw'amatungo bose baba babivura, arimo gushyira umuti ku gihingwa kikiri gitoya kugira ngo kibashe gukura neza.

Icyuzi kinini aho abantu bororeramo ibiyamaswa zikurira mu mazi nk' amafi ndetse isambaza n'ibindi imbere y'icyo cyuzi hari umugabo urimo gushyiramo ibiryo cyangwa ibindi bintu bifasha ayo matungo yo mu mazi kugira ngo akure neza.

Abagabo barimo kuroba aho bafashe inshundura zimwe bakazishyira mu mazi umuntu umwe ari mu mazi abandi bari ku musozi aho bari kumufasha kugira ngo bashyire inshundura mu mazi aroba amafi cyangwa se insambaza.

Ubworozi bw'amafi, aha ni mu gihe bakora icyuzi cyangwa bakajya ahantu hari ikiyaga bagashyiramo ingemwe z'amafi kugira ngo amafi nakura bajye kuyaroba, hari n'ibindi kandi bashyiramo nk'isambaza ndetse n'ibindi binyabuzima bikurira mu mazi kandi biribwa.

Abantu batandatu bari impande y'icyuzi. Akenshi igikorwa gikorerwa hano biba ari ubworozi bw'amafi cyangwa kuroba. Aha ngaha umuntu akoresha ibikoresho bitandukanye nk'indobane cyangwa inshundura, bakajya kuroba hano muri icyo cyuzi kiri inyuma yabo.

Abantu benshi bahagaze imbere y'icyuzi. Ni ahantu baba baracukuye mu buryo hatari hanini cyane maze bakoreramo ibinyabuzima bikurira mu mazi, harimo nk'amafi ndetse n'ibindi. Bakikije icyo cyuzi.

Abagabo babiri bari mu mazi. Nni amazi avanze n'isayo aho amazi ameze nk'ayakamye. bakaba arimo kuroba amafi. Aha ngaha amafi arobwa binyuze mu gukumba cyangwa ubundi buryo busanzwe kuko amazi ntago ari menshi.

Ubworozi bw'ibinyabizima byo mu mazi cyane cyane amafi ndetse n'ibindi, aho bakora icyuzi bagashyiramo ingemwe z'amafi kugira ngo nizikura bazabone kuyakuramo bayarye cyangwa se bayagurishe.

Abagabo bane aho barimo kuroba amafi, bafite amafi bavanye mu nshundura, izi nshudura bazishyira mu mazi noneho bakazizamura zikazamukana n'amafi, ubu ni uburobyi bw'amafi.

Ibyuzi byororerwamo amafi. aha ni umushinga ukorwa n'umuntu wahisemo gukora ubworozi bw'amafi. agacukura icyuzi akacyubakira neza maze agashyiramo ingemwe z'amafi cyangwa ibindi binyabuzima n'isambaza, aho azishyiramo zamara gukura maze akabona kuzikuramo.

Ubworozi bw'amafi yo mu mazi, aha ni ahantu bororera amafi cyangwa ibindi binyabuzima bikurira mu mazi, gusa ukuntu bimeze, bimeze nk'ibyagize ikibazo kuko biri ahantu hamwe cyangwa bikaba aya mafi yarobwe, agiye kwitabwaho.

Abantu benshi bari mu mazi cyangwa ahantu mu kiyaga, aho bagiye kuroba amafi. Aha bafite inshudura aho bagenda bakazishyira mu mazi noneho baza kuzizamura, bakazamukanamo amafi. Ibi bikunda gukorerwa nk'ahantu mu ruzi, mu kiyaga ndetse n'ahandi hose hari amazi menshi.

Umugabo wambaye isengeri afite ifi mu ntoki bivuze ko iyi fi amaze kuyiroba. Ubu ni ubworozi bw'amafi cyangwa se umushinga wo kuroba amafi, aho umuntu ajya mu gishanga akajyanamo n'ibikoresho bifata amafi kugira ngo ayarobe, ari naho bayafata nk'ingemwe bakayashyira mu cyuzi agakuramo bakabona kuyaroba.

Umubyeyi urimo gusarura icyayi, ni ahantu bahinga icyayi kandi ari mu murima wenyine aho iyo icyayi keze basarura ibibabi bakabigurisha kugira ngo bajye kubitunganyamo amajyane cyangwa ibindi bitandukanye.

Igihingwa cy'ikawa barimo kwerekana igihingwa cy'ikawa itarera ndetse n'ikawa yatunganyijwe igeze ku cyiciro cya nyuma, iyi ni ikawa inywebwa akenshi ikunda kuboneka hano mu gihugu cyacu.

Umusaruro w'ikawa umuntu arimo gusarura ikawa n'ikawa yeze kandi isa umutuku akenshi umusaruro ukunda gukoreshwa mu gutegura icyayi cya kawa.

Umuntu uri mu murima w'ikawa aho arimo gusarura ikawa. Nta kawa nyinshi ziriho, inyinshi zimeze nk'izitarera. Aha ni mu gihe ikawa iba yeze noneho nyirayo akaza gukuramo umusaruro urimo kubonekamo.

Ibihingwa bitandukanye ngandurabukungu babikusanyirije hamwe harimo: ikawa, ibisheke, icyayi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abantu babiri bari mu murima w'umuceri, n'umuceri weze cyangwa uburaho gato ngo were, aho baba biteguyewu gusarura, akenshi uyu umuceri ukunda kuboneka ahantutu mu kibaya cyangwa mu gishanga, aho haba haboneka amazi kuko umuceri wo wera mu mazi ariko atari menshi.

Igihingwa cy'ikawa, ikawa imeze neza kandi iriho imbuto nyinshi, hariho ikawa yeze ndetse n'iteze, iyeze irasa umutuku, iyoteze irasa icyatsi.

Umurima urimo igihingwa cy'umuceri, ni umuceri uhinze neza ahantu ku murongo kandi muri uyu muceri harimo amazi, ni umuceri kandi utarakura neza, harimo amazi aho umuceri ukurira mu gishanga kugira ngo utange umusaruro.

Igihingwa k'ikawa, ni ikawa iri mu murima hariho iyeze ndetse n'itezi, iyeze irasa umutuku iteze irasa icyatsi, iy'umutuku o yeze yo umuntu yayisarura ariko iy'icyatsi yo ntago isarurwa igomba kubanza nayo ikera igatukura.

Abantu babiri bari mu murima w'icyayi aho barimo kugisarura, ni icyayi keze, iyo keze basarura ibibabi, akenshi iyo bamaze kubisarura ni bwo babijyana bakajya kubitunganya.

Abantu bari mu murima w'umuceri, umuceri uburaho gato ngo were cyangwa ukaba weze. Akenshi umuceri kandi uhingwa mu gishanga cyangwa mu kibaya, ahantu haba haretse utuzi dukeya kugira ngo umuce ubashe gukuriramo.

Imiti y'amatungo itandukanye harimo imiti ivura inkoko imiti ivura amatungo nk'ihene, inka ndetse n'andi matungo yose bivuze ko ari ahantu hari inzu y'ubucuruzi icuruza imiti y'amatungo.

Inzu irimo imiti y'amatungo, imiti y'amatungo itandukanye ahariho harashushanyijeho inka ndetse ishushanyijeho n'ibindi bice bitandukanye ivuze ko iyi miti ivura amatungo abashushanyijeho inyuma, imiti imwe iri mu makarito indi iri mu ndobo cyangwa mu bintu bya palasitiki ibinini.

Imiti y'amatungo, imiti iri mubwoko butandukanye aho umwe uri mugicupa cy'umweru ariko upfundikije umupfundikizo w'umuhondo undi ukaba uri mumupfundikizo w'umweru ariko upfundikije umupfundikizo w'icyatsi, aha ni umuti w'amatungo aho umuntu aba acuruza imiti noneho itungo ry'umuturage ryagira ikibazo akaza kugura umuti hano bitewe n'indwara itungo ryarwaye.

Imiti itandukanye y'amatungo, hari iri mu makarito ndetse hari n'iri mu tujerekani, aho iri mu tujerekani ishushanyijeho inka, bivuze ko iba ivura amatungo y'inka.

Imiti y'amatungo iri ahantu habugenewe akenshi aha ahantu baba bacuruza imiti y'amatungo, igihe itungo ry'umuturage ryagize ikibazo araza akabwira umuganga w'amatungo uburyo itungu rye ryarwayemo noneho muganga akamenya imiti amuha kugira ngo ibashe kuvura iryo tungo.

Imiti y'ubwoko butandukanye ivura amatungo. Aha ni igihe umuntu aba afite umushinga wo gucuruza imiti y'amatungo aho aba afite imiti y'amatungo yose cyangwa menshi aho iyo umuntu afite itungo ryarwaye, aza hano akagura umuti bitewe n'indwara itungo ryarwaye.

Umubyeyi ari mu murima aho arimo kwita ku gihingwa k'ibigori, ameze nk'urimo kufira cyangwa kubagara ibigori, ni ibigori bikiri bitoya bikeneye kubagarwa kugira ngo birusheho gukura neza.

Abadamu babiri bameze nk'abashaje, bari mu nzira, aho bafite isuka bavuye guhinga. Bari ahantu hameze nko mu ishyamba. Bameze nk'abavuye guhinga cyangwa bagiyeyo ariko mu bisa nkaho ari abahinzi koko.

Abantu babiri umwe ari gucunga igare undi arimo kumusunikira, bapakiye inkwi kandi kuri izo nkwi hariho isuka, bivuze ko ari abantu bavuye guhinga bakaba bahisemo kujyana ibiti, ibiti kandi bashobora kubicana cyangwa bakabikoresha ibindi bintu bitandukanye.

Umugabo urimo umurima arimo gutera igiti, bivuze ko ari umuntu urimo kwita ku birihingwa aho arimo gutera ibindi bimera mu murima.

Ahantu hitegeye hamwe no mu kibaya, ahandi hari umusozi. Harimo ibihingwa by'ibigori ni ibigori bigeze mu gihe cyo kuba byaheka, haba habura iminsi mito ngo byere. Hakurya ho mu misozi harimo ibimera bikeya ibindi ni ubutaka busanzwe.

Umugabo w'umuhinzi aho ari mu murima uhinzemo amashu, afite ishu mu ntoki n'umuhoro aho ameze nk'urimo kurisarura, inyuma yaho kandi hari ibindi bihingwa bitandukanye nk'ibigori, urutoki ndetse n'amashyamba.

Abantu benshi bari mu murima, aho barimo kwita ku myaka irimo, ni ahantu kandi ku musozi ruguru yabo hari ishyamba, n'akenshi bikunda gukorwa mu gihe abantu bihurije mu matsinda kugira ngo bakorere hamwe.

Abantu bari mu murima w'umuceri ni umuceri uhingwa ahantu mu kibaya haba harimo amazi makeya kugira ngo umuceri were kuko ukurira mu mazi, ni umuceri uri mu kigero cyo gusarurwa kuko ureze neza.

Umuntu uri mu murima w'umuceri aho ari kubagara umuceri, ni umuceri ukiri mutoya, akenshi iyo umuceri kandi wera ahantu mu gishanga ahantu haba harimo amazi make make niho umuceri ukurira, ukaba wakera neza.

Igiti cy'imbuto cyitwa umwembe, uyu ni umwembe ugaragaza nka kimwe mu bihingwa by'imbuto kandi ukunda kwera hacimo igihe kinini, uru ni urubuto rwiza cyane nashishikariza buri muntu wese kururya.

Ahantu hitaruye kandi hose hahinze, hari igihingwa cy'ibigori aho biri ku buso bunini cyane, nta kindi gihingwa kiriho usibye ibigori.

Igihingwa cy'umwumbati, umwumbati umeze neza uri mu kigero kiringaniye ntago urera, uri mu murima kandi nta yindi myumbati myinshi irimo. Imyumbati ni igihingwa cyiza kivamo ubugari ndetse n'ibindi.

Ikibaya kitaruye cyane kandi kirimo igihingwa cy'umuceri. Umuceri uri mu kigero cyo gusarurwa, aho uhinze ku bwuso bunini. Kandi harimo za baringa zikabukira cyangwa zigakanga inyoni kugira ngo zitawurya.

Uruboga rwitwa urubwija, izi ni imboga akenshi zikunda kwimeza ahantu mu mirima itandukanye, uru abenshi bararubya abandi ntago barurya, ruba rusa umutuku.

Igihingwa cy'imyumba. Ni umwumbati uteyeye ahantu utari kumwe n'indi. Akenshi imyumbati rero wirwamo ibintu bitandukanye. Hari abarya ibibabi byayo nk'isombe ndetse bakarya n'imyumbati isanzwe cyangwa se bakayikoramo ubugari.

Ahantu hitaruye hameze nko mu gishanga, hakurya yaho hari umusozi. Aha ni ahantutu harimo ibimera bitandukanye bimeze nk'ibishanga.

Abantu bari mu murima w'umuceri. Ni ahantu hitaruye, ikirere kimeze nabi imvura ashaka kugwa. Barimo kwita ku muceri, aho bamwe bashobora kuba barimo kuwubagara. Ni umuceri ukiri mutoya, ntabwo urageza igihe cyo kwera.

Ikimera kitwa imboga, runo rubuga rwa dodo abenshi bakunda kurwita imbwija akenshi kandi urubuga rukunda kwimeza ntabwo abantu bakunda kurutera nk'abantu bazarurya gusa nyine ziraribwa.

Umusaruro w'igihingwa kitwa ibirayi, ibi ni ibirayi byeze neza. Akenshi ibirayi bikunda kwera mu majyaruguru y'igihugu cyacu, kandi nanone ibirayi bikorwamo ibintu bitandukanye, aho iyo niyo bihinze biterera igihe kinini cyane.

Igihingwa cy'imyumbati. Uyu ni umwumbati uhinze mu buryo bw'amahunge aho batera umwumbati hamwe ahandi bagateramo indi myaka, bagashyiramo intera bagatera undimbati uvamo ibintu bitandukanye nk'ubugari ndetse n'ibindi.

Imboga zitwa dodo ni imboga zihinzwe neza kandi zeze. Izi mboga kandi zikunda gukoreshwa cyane n'abantu bazikunda, kandi ziranaryoha akenshi iyo hari abantu bazihinga nk'umushinga noneho bakajya bazigurisha.

Igihingwa cy'urutoki, aha ni mu gihe umuntu aba yiyemeje guhinga insina aho bivamo ibintu bitandukanye nk'imineke, umutobe ndetse n'inzoga, harimo kandi mu murima n'imyumbati.

Umurima uhinzemo imyumbati ndetse hakaba harimo n'ibiti byumye by'amasaka. Bisa nk'aho bahabibiye amasaka amaze kwera noneho imyumbati y'amahunge ikabona kugaragara. Inyuma yaho kandi hari urutoki ndetse n'ibindi biti birebire.

Ahantu heza hari ibimera bitandukanye wakita nk'ishyamba, harimo ibiti birebire cyane ariko byameze mu buryo bugiye butandukanye hagati y'igiti kimwe n'ikindi hakaba harimo umwanya. Muri uwo mwanya harimo ibindi bimera ariko bigufi cyane.

Inka zirimo kurisha zirimo kurishiriza ahantu mu mashyamba hari ibiti birebire kandi binini na none kandi aha impande y'ibyo biti hari ubwatsi bwiza cyane aho inka zirimo kuburisha.

Ishyamba ry'ahantu hitaruye kandi hari umusozi. Ni ishyamba ririmo ibiti birebire ndetse ibiringaniye n'ibito cyane. Ni ahantu hameze nk'aharimo amabuye menshi.

Umuntu arimo gutunganya ikawa, ni ikawa ndende, ni igiti k'ikawa gisa nk'aho kimaze igihe kinini cyane, arimo kugitunganya aho umusaruro uva mu ikawa ukoreshwa nka kimwe mu bitanga umusaruro mu Gihugu cy'u Rwanda.

Inka nziza cyane. Ni inka ziri ahantu hegereye amashyamba. Ziri mu bwoko bw'inyambo nka zimwe mu nka zigaragaza umuco nyarwanda. Akenshi zikunda kuboneka muri kano Karere kacu ka Nyagatare.

Ahantu hitaruye cyane hari amashyamba ndetse hakaba harimo n'umuhanda, aha ni ahantutu haba hari ubuhaname bw'imisozi, aho barimo ibikombe ndetse n'ibibaya.

Ahantu hari umusozi usa nk'aho ari muremure harimo ishyamba, ariko ni ibiti bitarakura cyane, aho byagiye bimera mu bice bigiye bitandukanye, ariko bikaba bitarazamuka ngo bibe birebire. Ni ahantu hari ikirere kimeze nabi hameze nk'aho imvura igiye kugwa.

Ubuhinzi bw'imboga kandi bugezweho aha ni mu gihe umuntu yiyemeza guhinga ubuhinzi bw'imboga cyangwa imbuto mu buryo bwa kizungu aho yubakiye ahantu noneho ahingamo izo mbuto n'imboga.

Ahantu hameze neza kandi harimo ibihingwa bitandukanye, harimo indabo ndetse n'imboga, aha ni mu gihe umuntu aba yarize umushinga wo guhinga indabyo kugira ngo azigurishe cyangwa se na we azikoremo umutako.

Abadamu babiri barunamye barimo gutera cyangwa gutunganya imboga, ubu ni ubuhinzi bw'imboga, aho ababyeyi cyangwa buri muntu wese yakora umushinga wo guhinga imboga.

Urusenda rweze neza. Uru ni urusenda rusa umutuku. Iyo rutarera ruba rusa icyatsi ariko iyo rweze ruba rusa umutuku. Ibi ni bimwe mu bikorwa nk'umushinga aho umuntu yiyemeza guhinga urusenda kugira ngo ajye arugurisha.

Umuntu urimo kuvomerera imboga, arimo kuvomere imboga akoresheje uburyo bugezweho aho umugozi urimo kuva muri moteri, moteri irimo kuzana amazi noneho akavomera yihagarariye afite umugozi urimo amazi gusa.

Ibimera bihinze ku murongo kandi birimo kuvomererwa, birimo kuvomererwa mu buryo bwa kizungu aho bafashe amatiro bakayashyira mu murima bakaba bavomerera umuntu atagombye gukandagiramo.

Ibikoresho birimo kuvomerera imyaka, ni bmwe mu bikoresho bigezweho bya kizungu aho abantu bavomerera imyaka batagombye kwigira kuzana amazi, aho bafata amatiyo bakayashyira mu murima akaba ari yo abikora.

Umuntu urimo kuvomerera igihingwa k'inyanya aho arimo gukoresha uburyo bugezweho yafashe moteri agacomekaho itiyoo maze moteri igakogota amazi ikayazana atagombye kujya kuyizanira ahagaze ahantu hamwe rero arimo kuvomerera imyaka.

Umugabo arimo kuvomere igihingwa cy'amashu, ni amashu akiri matoya ariko ameze neza, aha ni mu gihe umuhinzi yiyemeza guhinga ibihingwa by'imboga gusa arimo kuvomerera akoresheje uburyo gakondo aho ajyana ibikoresho ku ivomero akadaha amazi akayazana akavomerera.

Ahantu hanini hitegiye harimo ibikombe ndetse n'ibibaya. Hamwe harimo amashyamba, urutoki, ahandi abantu barahatuye. Aho ikirere kimeze neza kandi ni ahantu hameze nk'ahantu hakera imyaka.

Ahantu hitaruye kandi hari ubutaka bugiye butandukanye, hari mu kibaya aharimo ibihingwa nk'ibigori ndetse impande yaho hirya gato hakaba ari ahantu hatuye abantu, inyuma yaho hatuye abantu, hari imisozi ndetse n'ibibaya birimo amashyamba.

Ahantu Hitaruye hanini cyane hari ibimera bitandukanye harimo nk'amashyamba ndetse n'ibindi birihingwa, harimo kandi imisozi n'ibibaya, ikirere ni cyiza hameze neza.

Ahantu hari ubutaka buri mu buryo butandukanye harimo imisozi, amazi ndetse n'amashyamba, aha kandi hameze nk'aho imvura igiye kugwa.

Ahantu mu kibaya harimo umugezi ndetse n'ibimera biri mu moko atandukanye, hakurya y'aho kandi hari imisozi ndetse n'ibibaya aho harimo amazu y'abantu batuyemo bahinzemo n'imyaka igiye itandukanye harimo n'urutoki.

Ahantu hari ubutaka buri mu buryo butandukanye. Harimo imisozi, ibibaya ndetse n'ibishanga. Ahantu harimo amazi. Hari aho abantu batuye ndetse ahandi hakaba harimo amashyamba.

Ahantu hitaruye ku musozi, hahinze ibihingwa bigiye bitandukanye, aho bagiye bacamo amaterasi kugira ngo bigabanye isuri, kubera ko ari ku musozi, iyo bataciyemo amaterasi, imvura iragwa ikamanukana ubutaka, hakaba hacika isuri kandi hejuru ku musozi hatuyeho abaturage.

Abantu benshi bari mu murima barimo guhinga umwe afite amasuka abandi barunamye bameze nk'abari gufira ibyatsi biri mu gihingwa nyuma y'aho kandi gato haparitse ikinyabiziga cya moto ndetse hari n'insina.

Inyamaswa y'imparage iri ahantu hitaruye, ni inyamaswa iriyonyine, mwene izi nyamaswa zikunze gukurura ba mukerarugendo kandi zikunda kuboneka mu Ntara yacu y'Iburasirazuba, akenshi izi nyamaswa zinjiza amafaranga aturutse mu bukerarugendo.

Ahantu hitaruye harimo imisozi ndetse n'ibibaya, imisozi igiye iriho ibihingwa bigiye bitandukanye ndetse no mu bibaya harimo ibihingwa, kandi hari n'inzu zituye hafi y'aho.

Inka ziri ku murongo kandi zashyizwe ahantu habugenewe kugira ngo abaganga b'amatungo babashe kuzitaho zitarimo kwinyeganyeza cyangwa zirimo kubangamira umuganga, abaganga barahari baje kuzitaho.

Inkoko nyinshi ziri ahantu hamwe kandi ni inkoko ziri mu bwoko bumwe ndetse n'ibara rimwe, uyu ni umushinga ukorwa n'umuntu wo korora amatungo magufi aho yibanze ku nkoko gusa, akenshi iz ngizi aba azigurisha nk'inyama cyangwa se agakuramo amagi yo kugurisha.

Ingurube yubakiye neza iri ahantu mu kigo rwose cyubatse neza kandi yabwaguye ibibyana byinshi cyane. Aha, ni umushinga wari mwiza aho umuntu yiyemeza korora amatungo agahitamo korora ingurube ndetse akazubakira neza. Aha ngaha rero ingurube yarorotse cyane.

Inka ziri ahantu hamwe aho zagenewe kuvurirwa. Abaganga b'amatungo baje kuzitaho. Akenshi ibi ngibi bikorwa iyo inka zarwaye nk'inzoka cyangwa se bakaba bazitera imiti ya vitamine kugira ngo zibashe kurushaho kugira ubuzima bwiza.

Inkoko nyinshi ziri ahantu hamwe ubu ni ubworozi bw'inkoko aho umuntu ahitamo umushinga wo korora inkoko akaba yajya agurisha amagi cyangwa se inyama z'inkoko akenshi bikorwa n'umuntu ubasha kuzishyira hamwe noneho akazihahira ibyoku kurya.

Ishyo ry'inka riri mu rwuri ririmo kurisha. Zirimo kurisha ahantu hitegeye kandi hari ubwatsi bwinshi. Umushumba uziragiye na we azihagaze imbere kugira ngo azicunge, zitabangama cyangwa ngo zijye kona.

Ubworozi bw'ingurube ingurube iri ahantu heza kandi yubakiye neza, aho yabwaguye ibyana byiza kandi byinshi bivuze ko ari umushinga umuntu yize neza agahitamo korora ingurube.

Ishyo ry'inka zirimo kurisha, akenshi aba ari nk'umuntu ufite urwuri aho agomba kuragiramo inka ze, inka zirimo kurishiriza ahantu hamwe aho inyuma yaho hari umushumba uziragiye.

Ishyo ry'inka zirimo kurisha, aha mu bworozi bw'inka aho umuntu yiyemeza agashaka ahantu ashyira urwuri kugira ngo azajye aragiramo inka ze, n'inka ziri ku murongo kandi ziri kurishiriza hamwe.

Itungo ryo mu rugo ryitwa ingurube. Ni ingurube iri ahantu hubakiye neza. Akenshi ni umushinga ukorwa nk'ubworozi bw'amatungo magufi. Aho umuntu yubakira ibirugu by'ingurube kandi bigezweho, agashyiramo ingurube kugira ngo zibashe gukura neza no kubaho neza na we zimuhe inyungu.

Ahantu hanini cyane hororewemo amatungo y'inka, ni inka zubakiwe neza ahantu habugenewe kandi hakaba harimo n'abantu bameze nk'abaganga b'amatungo, baje kureba cyangwa kuzitaho.

Inka ziri ku murongo, aho haje abaganga b'amatungo kugira ngo baziteho. Zashyizwe ahabugenewe, ahantu hegeranye cyane kugira ngo nibazivura, zitaza kunyeganyega cyangwa zibangamire abaganga.

Inkoko nyinshi kandi ziri ahantu hamwe, inkoko zakuze ziri mu kigero kimwe, aho umuntu yakoze umushinga wo kuzorora hamwe arazubakira, akenshi ibi bikunda gukorwa umuntu ashaka gukora igikorwa ngandurabukungu, nko korora inkoko cyangwa akajya agurisha amagi.

Ihene nyinshi ziri mu ishyamba aho zirimo kurisha, ni umuntu wakoze ubworozi bw'amatungo magufi nk'ihene aho bagiye kuziragira kugira ngo zibashe kurisha.

Umugabo uri mu musaruro w'ibigori. Ni ibigori byeze neza kandi bivovoye. Aho baba biteguye kubyanika kugira ngo byume bazabone kubivungura. Aha ni umusaruro ukunda kwera mu gihe cy'umuhindo, ni bwo ibigori bukunda kwera cyane.

Umusaruro w'ibigori, umugabo afite ibigori mu ntoki ibindi biri mu mufuka, ibigori akenshi bikunda kwera ahantu bakunze kubihinga cyane, iyo babyejeje noneho bakabisarura bakabyanika, bakabivungura, aha ni ho bigeze, akenshi bimaze kuma ni bwo babikoramo kawunga cyangwa se ibindi bigiye bitandukanye.

Umusaruro uturuka ku bihingwa aho upakiye ahantu mu nzu, uri mu mifuka myinshi itandukanye kandi undi musaruro ntabwo uri mu mufuka uri hasi, aha ni igihe igihingwa kiba kigeze bakagitunganya noneho bakakibika ahantu kugira ngo kibone umukiriya.

Abaganga b'amatungo barimo kuvura inka aho bayubakiye ahantu bagomba kwinjiza ikavurwa itarimo kunyeganyega cyangwa kubangamira akenshi ibi bikorwa kugira ngo inka ibashe kwitabwaho neza nta gukomereka kubamo.

Abaganga b'amatungo barimo kwita ku nka, aho inka bayubakiye ahantu igomba kujya ivurirwa itarimo gutera imigeri kugira ngo ibangamire abaganga, umuganga rero w'amatungo ari kuyitaho ndetse hari n'abandi ku ruhande barimo kumufasha.

Ishyo ry'inka inka ziri mu bwoko bumeze nk'inyambo aho ziri ahantu hamwe nyuma yaho kandi hari abashumba ndetse n'umuntu wambaye impuzankano zimeze nk'iz'abaganga b'amatungo akenshi bikorwa abaganga baje nko kuzitera inshinge kugira ngo zirusheho kugira ubuzima bwiza.

Abaganga barimo kwita ku matungo aho baje kuvura inka, bivuze ko ari abaganga b'amatungo, inka bazishyize mu mwanya wabugenewe kugira ngo zidakubagana cyangwa zitanga ko bazitera urushinge cyangwa ngo bazivure mu bundi buryo, abaganga biteguye kuzivura kandi n'abashumba barahari.

Inka ziri ahantu hamwe aho abaganga b'amatungo bagiye kuzitaho, akenshi baba bagiye kuzitera inshinge ndetse n'iyindi miti ituma zibasha kugira ubuzima bwiza, bazubatse abantu babugenewe rero bagomba kuzivurira.

Itungo ry'ingurube riri ahantu baryororera ariko ryaryamye rimeze nk'iryarwaye cyangwa se ryapfuye. Aha ngaha, riba rikeneye umuganga w'amatungo kugira ngo aze arebe ikibazo gifitiye maze arivure. Iryo tungo ni ingurube.

Inyamaswa y'agasozi aho iri muri pariki. Ba mukerarugendo na bo baje kuyireba aho bari mu modoka. Bagomba kuyirebera kure kugira ngo ibe itakwangiza cyangwa iteze ibibazo abaje kuyisura. Aha ngaha kandi Ni mu Kagera.

Inyamaswa y'agasozi yitwa imparage. Iyi ni nyamaswa zikunze kuboneka hano mu burasirazuba mu Kagera, aho ari nko mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo. Izo nyamaswa kandi ntago zikunze kuba mu baturage, ziba ziri ahantu hamwe, aho leta yazishyize.

Inyamaswa y'agasozi yitwa ingwe. Izi ni inyamaswa z'agasozi. Ntabwo zikunze kuba zifitwe n'abaturage kandi izi ni zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo. Zikunda kuboneka muri pariki y'Akagera ndetse zikaba ziboneka hano mu Burasirazuba.

Inyamaswa y'agasozi yitwa intare. Iri ahantutu, irimo kwasama cyane, imeze nk'iyagize umujinya. Inyamaswa zimeze gutya zikunda kuboneka muri parike y'Akagera , mu Burasirazuba.

Igiti kirimo ingwe, ni igiti kirekire ingwe yagiyemo hejuru igahagararamo, kenshi ingwe ni inyamanswa y'agasozi kandi ikura ba mukerarugendo hano mu Rwanda.